Uburezi bw' ubungubu bufite ireme rikaze cyane aho usanga ubu muri pirimeri, kubera leta itwitayeho iduha amashanyarazi, basigaye barabigisha ukuntu bakoresha ibikoresho by' ikoranabuhanga twifashishije n' amashanyarazi cyangwa se twifashishije n' umuriro ibikoresho wabicayinze umwanya ukaba wamwigisha gukora nk' ikintu runaka nk' imodoka cyangwa si kompiyuta ibyo bikadufasha mu iterambere.

Amashuri abanza aba meza cyane, aho usanga umwana ahereye muri garidiyene akajya muri pirimeri, ibyo bikamufasha bakamuremarema akazagera muri sogondera, ari umuntu uzi icyo gukora icyo kwiga ari cyo. Ibyo biba byiza cyane kuko bimuremamo ikindi kintu, akamenya akamaro ko kwiga.

Uburezi buba bwiza cyane, aho umwana atangira kwiga muri primeri mu mashuri abanza, ugasanga biramufashije akazamuka neza, akamenya gusoma, kwandika, akahamenyera icyongereza, yewe n'igifaransa akakimenya kuko basigaye bakiga. Ibyo biradufasha cyane. Nko muri segonderi, tukagira imbaraga iyo watangiye hasi wiga neza ugakomeza no kwiga neza, bikazakugirira akamaro.

Uburezi ni bwiza cyane kuko twigiramo byinshi bitandukanye, aho usanga twiga ibintu bijyanye n'ubukanishi, gukora ibikoresho bitandukanye ukoresheje ibyuma, bidufasha kuba natwe mu buzima busanzwe twakwihangira imirimo, natwe tukagira ibyo twigezaho nk'urubyiruko.

Kwiga ni byiza cyane kuko iyo ugiye mu ishuri umenya byinshi kandi ukiteza imbere, aho usanga hari ishami ryo kwiga ubwubatsi, ugasanga umuntu arize yize ubwubatsi amenya kubaka bityo nawe akiteza imbere, kuba yakwiyubakira akaba yakubakira n'abandi, akinjiza umusaruro mu rugo iwe cyangwa se urubyiruko rukiteza imbere kuko ruba rwarize kubaka.

Uburezi buba bwiza cyane. Aho usanga umuntu ari mu ishuri rya segonderi akajya yigirayo ibintu bitandukanye, ugasanga umuntu avuye ku ishu azi amasomo ye atandukanye. Akaba afite n'ibindi bintu azi gukora ibyo bita talent. Akaba afite nk'impano yo guracuranga amasembari, za gitari azi no gucuranga n'inanga. Ibyo bikaba byiza cyane bigakomeza bikamwongerera ubumenyi.

Uburezi ni bwiza cyane kandi budufatiye runini aho usanga umuntu yarize ibintu bitandukanye, cyane cyane urubyiruko bari kurwigisha ibintu byinshi bitandukanye kuko ni n'abahanga. Ukabigisha ukuntu bakwesitara amazi, amashanyarazi, bityo bagakomeza bakagira ubumenyi butandukanye bakaba bafasha n'abaturage kuba bakemura ibyo bibazo, bafite ikibazo cy'amashanyarazi cyangwa se amazi bakabesitarira amazi, kubera uburezi budufitiye runini.

Uburezi ahanini mu gihugu dusanga ari bwo bwiganje kandi ari nabwo buri imbere kuko buduha ubumenyi butandukanye, aho usanga umwana yiga icyiciro cya mbere muri pirimeri/amashuri abanza, ayisumbuye, kaminuza, yarangiza icyiciro cya kabiri ugasanga arambaye, aragaraduwetinze, bityo bikamutera kuraje yo gukomeza kwiga na we akaziteza imbere.

Uburezi buba bwiza cyane aho usanga umwana yize yagera muri sogonderi agasobanukirwa icyo azaba, akiga ikoranabuhanga, ugasanga azi kuba yahakinga nk'abantu, kumenya ibyo abantu bari gukora, niba bari kwiba igihugu cyangwa se niba ari ibyo ibiri ku mbuga nkoranyambaga akamenya ibikwiriye n'ibidakwiriye.

Uburezi ni bwiza cyane. Aho usanga abanyeshuri bashishikariye kwiga, cyane cyane abo muri segonderi. Usanga bafite imbaraga zo kwiga n'ubushake. Usanga mwarimu ari kubasobanurira bose, bakurikiye ibyo biga. Biba byiza cyane, ubona abantu bashaka kumenya icyo mwarimu ari kubabwira , kugira ngo icyo ari kubabwira kizabafashe kwiteza imbere, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kwiga biba byiza cyane ,aho usanga twize nk'ibintu bitandukanye ,nko gukanika ,ugasanga umuntu yize muri sogonderi ibintu bijanye na elegitilisiti ,bityo bikabasha kudufasha kumenya uko twakora amashanyarazi, tugakora ni'ibindi bikoresho bitandukanye ,tuba twakwihangira imirimo, tukaba twavumbura n'ibindi bintu bitandukanye bikoreshwa, n'amashanyarazi.

Uburezi bukomeje gukataza mu iterambere aho usanga abantu bari kwiga ibintu bitandukanye byabagirira akamaro mu buzima bwa buri munsi, ku buryo avuye no ku ishuri nko muri sogonderi yamenya uko yakwibeshaho, nko gukanika ibikoresho by'ibyuma, gukora amashanyarazi no kwihangira imirimo, bakaba bakora akandi gakoresho kakoreshwa nk'amashanyarazi bityo bakabasha kwiteza imbere ku bw'uburezi.

Uburezi budufatiye runini aho usanga abana bari kwiga ibintu bitandukanye. Ugasanga biga gushushanya ku myenda, bagashyiraho ibimenyetso bitandukanye. Ibyo babyita Ati ubukorikori, ibyo biba byiza cyane kuko bifasha n'abantu bafite nk'ibigo by'amashuri bagaha nk'abo bana bakandikaho amanimero, ugasanga abanyeshuri basa neza. Ibyo bikadufasha gufasha n'Igihugu gutera imbere, kuko urubyiruko ruba rwariteje imbere.

Uburezi budufitiye akamaro kanini, aho usanga bufite ireme ridasanzwe, ugasanga abana bari kwiga ku ishuri, bari kwiga n'ibindi bintu bitandukanye. Impano zitandukanye, ari byo bita tarenti. Ugasanga umuntu azi gusiga amabara, akamenya kujyanisha amabara ajyanye, akaba amenya no gushushanya. Ibyo bikamufasha mu buzima bwe, kuko ashobora gushushanya igishushanyo runaka, abantu bakaba bakigura, bakamuha amafaranga akiteza imbere.

Uburezi ni bwiza cyane aho bufasha umuntu kwiga serivisi zitandukanye, ugasanga ko ishuri runaka ryigisha abantu uko batanga keya mu bukwe, cyangwa se habaye nk'inama ugasanga abakobwa bambaye imyenda myiza y'umweru basa neza baraboneye, bakajya kwakira abashyitsi bafite icyo kunywa, bakabahereza bakabasukira mu gikombe cy'ikirahure, abayobozi na bo bakishima cyangwa se n'abageni ubwabo bakishima kuko bafite serivisi nziza.

Uburezi bukomeje kuba bwiza cyane, aho usanga ubu ngubu abantu basigaye bariga, buri wese akamenya ati nziga kubaka, nzinga gukora iki n'iki, umuntu akagenda arisobanukirwa. Ukiga ubwubatsi, ukiga gukora intebe, ugasanga witejeje imbere nawe, n'iyo ntebe nawe ukayikorera, ukayigurisha, ukabonamo amafaranga, ugakomeza kwiteza imbere, ukagira ubuzima bwiza.

Uburezi bw'ubungubu bufite ireme rikaze cyane, aho usanga abantu muri sogondere bari kwiga ibintu bitandukanye, amaboshoni atandukanye ugasanga umuntu ari kwiga za karinari ati, ibintu byo guteka, ibyo biba byiza cyane umuntu akura azi ubwenge, nawe urwe rugo akazajya amenya kwitekera neza akamenya no gufata n'umugabo we neza, cyangwa yaba aba ari umugabo abakamenya gufata umugore we neza, kubera ko yize guteka.

Uburezi ni bwiza cyane aho usanga umwana yara ahereye muri pirimera ari kwiga, akazajya arakuba gana ibikoresho by'amashanyarazi ukabona ari gushaka kubikubagana agafata nka terefone ugasanga yayisenyuye, ibyo biba bigaragaje icyo umwana ashaka kuzaba, yagera muri sogondere agakuza inzozi ze bikamugirira akamaro, yabimenya akazajya aramenya gukanika amaradiyo, amatereviziyo naza mashini akamenya kuzikanika, ibyo bikamugirira akamaro bikamufasha no gutera imbere.

Kwiga ni byiza cyane aho usanga abantu bari kwiga muri sogonderi, akisobanukirwa akamenya ati:nzaba ikingiki ukamenya ngo umwana niba azaba umuganga cyangwa se azaba ikindi kintu runaka, akaba azi gukoresha mikorosikope aho ushiramo ukamenya ngo ikintu ngo gifite ubuziranenge bumeze gute kirarwaye cyangwa se ntikigwaye. Ibyo bikazabafasha mu buzima bwabo kumenya kuvura cyangwa se bakamenya gupima umuntu n'indwara.

Uburezi buba bwiza cyane，aho umuntu ashaka kwiga muri Segonderi， akavayo azi kubaka， akaba yakubaka n'inzu， bityo bikamufasha kuba yakwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi，nawe akaba yakwiyubakira inzu bitamugoye， bityo akabasha kubaho neza.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga abana bajya mu mashuri bakiga, bamara kwiga bakagira ubumenyi butandukanye, ugasanga umwana yamenya nko gushushanya, akazajya ara shushanya ku myenda y'abanyeshuri, bakaba bamuha nk'ikiraka, bakamuha na amafaranga, akabayaguramo n'ibindi bintu bitandukanye, akaba yaguramo itungo akaryorora, kuko yanditse ku myenda y'abana yarangiza akiteza imbere.

Uburezi ni bwiza cyane, aho usanga ubungubu abana batoya basigaye babona aho kwigira. Abo muri garidiyene, mu mashuri abanza ugasanga abana birirwaga bari kubunga ari batoya. Ariko ubu n'imyaka itatu basigaye babona aho birirwa bari kwiga, bagakura abazi ubwenge, bafite ubumenyi butandukanye, ku buryo nabo ubwabo bakura bazi icyo bakora, ibyo bikatubera byiza cyane.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga abantu biga muri sogonderi. Bakiga ibintu bitandukanye, bakaba bafite impano zo kuririmba, gucuranga. Bazi gucuranga n'amasembari, bazi gucuranga na za gitari, bafite n'amajwi meza. Bakaba babikoreramo bakazajya barakora amafaranga, kuko baririmbye abantu bakabishimira bagatanga ituro ry'ishimwe. bakazajya i barabaha n'amafaranga.

Uburezi ni bwiza cyane aho usanga abana bose ntawe usigaye aracikanwa amasomo. Ariko mbere babaga baravuyemo ,nta mwana uzi gusoma. Ariko ubungubu bose muri pirimere na sekondere basigaye bariga bakanayarangiza . Segondere bazi gusoma ntawe utazi gusoma n'umwe wacikanywe amasomo, ugasanga ageze ku cyapa amenye icyo bishatse kuvuga.

Uburezi ni bwiza cyane, aho usanga umuntu yaraturutse muri pirimeri akubagana nk'ikintu runaka, yagera no muri sogonderi ugasanga bamwigishije mashine, akamenya ikoranabuhanga akaba yakuramo ibintu byinshi bitandukanye, agakuramo n'ubundi bumenyi butandukanye, akaba yakwigiramo gukanika kuvura abantu akoresheje na mashine, ibyo bigakomeza bikamubera byiza cyane, mu buzima bwa buri munsi.

Uburezi ni bwiza cyane aho tujya kwiga mu sogonderi, tukaja kwiga ibintu bitandukanye, bigendanye n'ubuhinzi, aho umuntu yiga ubuveterineri, akiga ukuntu yakorora n'imbuto, azororeye mu nzu, akaba yahinga imbuto akoroza mu baturage nka voka n'ipapayi ku buryo usanga buri rugo rufite urubuto rwo kuba yasaruraho ibyo ku kurya, nawe akagira imikurire myiza.